Abantu batandukanye bishimye cyane. Bari mu bisharagati bidekojwe n'amabara agize idarapo ry'Igihugu cyacu. Bamwe bafite ibyapa mu ntoki byanditseho Gerayo amahoro.

Umuntu uhagaze imbere y'agatute ahantu mu karere ka Nyagatare biragaragara ko afite indangururamajwi mu ntoki asa nkaho ari gutanga ikiganiro ku nsanganyamatsiko runaka.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu nzu mberabyombi, harimo abagabo ndetse n'abagore, biragaragara ko bashobora kuba baje mu nama cyangwa se mu kindi gikorwa runaka cyabahurije hamwe.

Umumama mwiza wambaye amarineti, afite agatabo mu ntoki ndetse n'idangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari icyapa cyanditseho amagambo menshi atandukanye, kiri mu ibara ry'ubururu, amwe mu magambo yanditseho harimo bikorere mu isibo, guhiga no guhingura ibintu nk'ibyo bitandukanye.

Icyapa kigaragaza inzira ndetse na metero zigera ku Murenge wa Nyagatare, kuva kuri icyo cyapa ukomeje umuhanda ni metero igihumbi na magana atatu mirongo itanu.

Kwipimisha umuvuduko ni byiza kuko bituma uba wizeye uko amaraso yawe atembera mu mubiri ndetse n'ibindi bibazo bishobora kuza byerekeranye n'umuvuduko w'amaraso.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bibiri, hakurya hari akayira k'abanyamaguru harimo umugenzi wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'itiriningi.